Abaturage bari hamwe barimo basarura cyangwa se bakora umuganda, bambaye imyenda itandukanye, hrimo abafite umutaka, inyuma gato hari imodoka ebyiri.

Koperative y'abahinzi bifatanyije, bahingira hamwe kugira ngo basarure byinshi, babashe kugera kuri byinshi, bahinga ibihingwa by'ibigori ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu igaragaza ko hari imbuto nziza, hariho igishushanyo cy'inka, hariho karoti, inyanya, n'izindi nyama, idirishya, hariho amadirishya afite ibirahure ara reflecting ibiri inyuma, hariho sitasiyo, ndetse hasi hariho amakaro.

Icyumba kirimo udukarito turimo imiti itandukanye myinshi, iyo dufite amabara y'umuhondo n'icyatsi ndetse tugenda duteretse tugere kamwe kandi hejuru y'utundi, imbere hari mandi makarito, nayo ameze gutyo.

Ubuhinzi bw'imboga, uyu murima ugiye uciyemo uduce dutandukanye, buri imboga zigiye zitonze umurongo harimo amatiyo menshi atandukanye y'amazi kugira ngo izi mboga zihore zifite amazi kugira ngo zibashe gukura neza. Hakurya gatoya hari n'undi murima w'amashu, hakurya yaho hari ibiti byinshi cyane ndetse birebire.

Umupapa wamabaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'ikoboyi na bottes ahagaze hejuru y'ifumbire afite igitiyo. Inyuma ye hari ibindi byatsi byinshi cyane. Hari ibiti birebire.

Umugabo wambaye itaburya y'umweru na ga z'umweru, afite agacupa gafite umufuniko w'umutuku, inyuma ye hari akandi kabati karimo andi m'amacupa menshi, hejuru y'akabati hariho utuntu tw'udutako dutandukanye.

Iduka ricuruza imiti y'amatungo, imbuto, ushobora gutera, imbuto nka karoti, nyine amapera, imbuto muri rusange, harimo inyongeramusaruro bashyira mu myaka, imyaka igakura neza cyane, ikabasha kwiyongera,

Agacupa k'umweru gafashwe mu kiganza n'umuntu, gashushanijeho ikirabaho cy'umweru ndetse kiriho akantu k'umuhondo, hariho amabara y'icyatsi ndetse na orange ashushanije n'amabara atukura.

Abamama bambaye imipira y'umweru, uw'imbere yambaye akajile k'ubururu, ndetse afita aka base kamwe k'umutuku, uw'ibymweru yambaye ingofero y'umweruru bari murima w'ibigori, hakurya cyane hariyo n'akandi karima karimo ibintu by'umutuku.

Mu murima wa sukumawiki, umumama afitemo ipombo, arimo aragenda yuhira atera umuti, yambaye agapira gatukura, afunze umusatsi, afungiye inyuma, ndetse yambaye ipantaro y'umukara.

Icyapa cya veterineri ucuruza imiti ku bihingwa ndetse n'amatungo, aho hasi hari nimero ze hejuru hari ibikoresho bishobora gukoreshwa muri uko gutera imiti

Icyapa cya Agrothec ndetse hejuru gato hariho ibikoresho bikoreshwa mu gutera imiti ibihingwa, ndetse hasi gato hari n'icyapa cya Ameki Color, aho bacuruza amarangi ndetse n'ibindi.

Ni akabati kagiye karimo amacupa atandukanye, harimo afite imifuniko y'icyatsi, andi afite umweru, hirya harimo udukarito, akabati gafite amabara y'umweru, ndetse harimo n'ibirahure, hejuru gato hariho n'andi macupa.

Akayetageri karimo imiti itandukanye, hejuru yako hariho amarozwari menshi asa icyatsi, hasi gato harimo uducupa tw'imiti itandukanye, hepfo sinzi ngo ni ibiki birimo bisa umuhondo, ku rundi ruhande na rwo hariho akandi kayetajeri.

Aha hari umuhanda ndetse ku ruhande hari umurima, imbere hari urutoki ndetse n'ibindi bihingwa byimeza, ibyatsi runaka, hakurya hari inzu hari n'insina.

Umurima, umurima uhinzemo imyumbati, hari imyumbati bamaze gukura irunze ku ruhande gatoya, ndetse n'igiti cy'imyumbati bamaze gukuraho imyumbati kirambitse aho ngaho hasi, ndetse n'amababi y'imyumbati hafi aho.

Umurima urimo insina. Hari ahahinze, hari ahandi hadahinze. Hakurya hari urutoki rwinshi ndetse hakurya hari kumera no kuba ibindi biti birebire.

Iki igiti kigufi cyane kiri mu murima, kiriho utuntu tw'utubuto twinshi cyane, twinshi twinshi, ku ruhande rumwe hariho amababi menshi, ndetse imbuto ni nyinshi, duto cyane.

Urutoki rurimo insina zikiri ngufi cyane zitarera ngo zibe nkuru ngo zere ibitoki, hanyuma ku ruhande hagiye hari ibindi byatsi bitandukanye, hasi naho hari kumera ibindi byatsi utamenya uko bimeze...

Ubuhinzi bw'ibigori byeze byasaruwe bigiye gutunganywa bikavanwamo ibintu runaka nk'amafu, ibigori,

Ibiti birebire cyane bifite amashami menshi, bifatafatanye cyane, biri ahantu hamwe byegeranye cyane, imbere yaho gato hari agapasiporume, hari utwatsi twinshi tugiye dusa nutwumye ndetse harimo n' ikirere cyiza, ariko gisa n'ikigiye gutangira imvura.

Umurima w'urutoki rutoya, insina ngufi zitarakura. Hirya hari igikuta, ndetse hirya gato hari inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'amabati ajya gusa ubururu cyangwa icyatsi. Ndetse hirya gato hari n'undi murima, hari ibiti.

Ibihingwa biri mu murima ndetse hagiye hariho utubuto dutandukanye, hariho utubuto tutarashya neza dusa icyatsi, hariho utwahiye twahishije tukaba umutuku, ariko tukiri ku giti, ndetse n'ibindi bifite amababi menshi cyane.

Abamama babiri mu murima w'inanasi bamaze gusarura inanasi ebyiri, bazifite mu ntoki, umwe yambaye akagofero mu mutwe ndetse n'agashati karimo ubudomo bw'umukara, undi yambaye umupira w'umweru, bari mu murima.

Umufuka urimo ibirayi, ibirayi bisa ibara ry'umutuku, umufuka uriho akabara k'icyatsi ku ruhande rw'urubavu rumwe n'urundi rubavu, ku ruhande rundi hariho indi mifuka nayo bisa itandukanye.

Umurima munini cyane cyane, urimo umugabo wambaye ibintu by'umukara, hakurya ruguru n'ubundi haracyakomeje umurima ahantu hazamuka cyane. Naho ni umurima ibintu byijimye.

Inka y'inzungu ifite ibara ry'umweru mu gahanga ivuye kurisha iratahashya ifite inyota cyane igeze aho bayivomeye amazi igiye gushoka, ahantu iri hakikijwe senyenge ndetse hakurya gato hari umuririma w'ibisheke.

Ubworozi bw'inkoko harimo imishwi butoya cyane cyane cyane, harimo ibintu by'umutuku biteretsemo harimo n'ibindi bimeze nk'amaparato bisa ubururu biteretsemo hagati utundi dushwi tugenda turiraho turiraho.

Urukwavu ndetse n'utwana twarwo, turimo kurya ibyatsi, harimo akandi gakwavu gatoya gasa umweru utundi twose turasa na nyina, hanyuma inyuma hari ubwatsi bwumye hari ibiti byumye ku ruhande gusa ni ho hari ibiti bitumye ndetse n'ibya.

Agacupa gatoya k'umweru, gafite umufuniko w'umweru, no hasi ni umweru. Ku ruhande hariho ibipapuro byometseho, byanditseho vita meza, ruguru hariho ko ari ikiro kimwe, ndetse hashushanyijeho inka zigiye zitandukanye, haruguru ndetse no ku ruhande rwo hepfo.

Abantu benshi batandukanye bari muri uwo murima, umurimo urimo dodo, hakurya hari ibisheke, abantu batandukanye bafite amasuka, abandi bafite imihoro, barimo gukoresha mu kwita kuri izo dodo, harimo abamama, harimo abapapa.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo. Abamama babiri baricaye baragosorera ku ihema. Barimo baragosora ibishyimbo ndetse ku ruhuhande hahagaze umupapa wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara. Hakurya hari umurima w'ibigori munini.

Abantu batandukanye barenze batanu bahujwe no gufatanya ngo bakore ikintu kimwe bafite intumbero yo gukora cyane kugira ngo bagire icyo bageraho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aba mama barimo gutera imbuto zirimopapa dumbay'ubururu nk'irhere mu wambaga pe k' icyatsi n'akantu ga umutwe imberehagaze bose barunamye bari mu murima

Umurima urimo abantu barimo bahinga, harimo insina, indobo itukura, umumama ufite ibitambaro mu mutwe, hirya hariyo urundi rutoki ndetse hari urubingo.

Abantu benshi bari mu murima bafite amasuka barimo barahinga, hepfo yabo gatoya hari inzu ifite amabati y'umweru, rugururiye hari urotoki, hirya gatoya hari ibiti.

Avoka zipakinze mu dukarito dutandukanye, tugiye duterekeranyije hejuru, hejuru, hejuru, hejuru, kamwe ku kandi kamwe ku kandi, hakurya hari ibara ry'ubururu, ndetse no kurundi ruhande hari utundi dukarito twinshi tugiye turimo avoka.

Aha hari depo y'imifuka itandukanye, imifuka y'umuhondo, hari iy'umweru, igiye igerekeranyije mu buryo umwe uri hejuru y'undi, umwe uri hejuru y'undi, umweru upanze ukwawo, umuhondo upanze ukwawo.

Imifuka myinshi cyane igiye igekeranye umwe kuri undi, umwe kuri undi, imbere yaho gato hari abantu bagera kuri bane bahagaze buri wese ari mu bye, imbere gato hari ahandi hari umuryango, inyuma hari n'indi mifuka myinshi cyane.

Inyanya ziri mu gitebo, imbere yaho hahagaze abantu babiri, umwe ufite urunyanya mu ntoki, undi ufite amafaranga mu ntoki, ufite amafaranga yambaye agakote k'ubururu, ndetse ufite urunyanya mu ntoki yambaye agapira k'umutuku.

Avoka nziza cyane zifite utuntu tw'uduheri inyuma zaciwe ziri mu kintu kikibogisi cy'icyatsi, ziteretse hamwe. Hakurya hari inyanya na zo ziteretse ahantu hamwe.

Umumama arimo aragosora, yambaye umupira w'ubururu tse n'igitenge, imbere harimo ishati ya oranje, ku ruhande rwe hari abandi bamama bicaye na bo bari mu turimo tw'amaboko, hirya hari ibitoki.

Ibitoki byamaze gutemwa byakuwe mu rutoki birabizana bishyirwa hamwe, ari byinshi cyane, hagati harimo abantu barimo kuvugana bakoze itsinda rimwe ndetse aho hantu hubakishije ibintu by'ibiti.

Aha hari ibiti by'imiyenzi, hakurya hari umurima, imbere y'aho gato hari igiti kirekire cyane, ahandi n'ibigori bihahinze.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye ririmo ubwatsi, ibiti birebire by'amoko atandukanye, bifatanye byegeranye.

Umurima urimo ibiti byinshi bitandukanye hasi. Kuko ibyinshi bitematemye. Hanyuma hano hari igiti gihagaze kirekire cy'utubabi tw'icyatsi, hakazamo uturabo tw'umuhondo twiza.

Mu giti giteye ahantu, gifite amababi menshi, ni gitogito, kiri hasi ntabwo ari igiti kizamutse, ku ruhande gato hariho insina, mbese ni nk'ahantu hari igihuru.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bitemye birambitse hasi. Hari n'ibiti birebire cyane, ariko ntabwo bifatanye. Ndetse hasi urabona ko hari ubwatsi bubisi, urabona ko byegeranye cyane.

Ishyamba ririmo ibiti birebire harimo ibiti bitemye birambitse hasi. Ku ruhande hagiye hariho ibindi byatsi byinshi bitandukanye. Imbere gato hari n'ahandi harunze ibyatsi, ibindi biti birimo birashaka kugwa.

Ibiti bitandukanye, itsina z'ibitoki, ibyatsi bigiye bitandukanye, inyuma gato hari ipoto ndetse hariyo n'inzu imiyenzi.

Umurima urimo indabo, indabo zifite utuntu dutukura, hirya harimi izimeze nk'izifite amakoma, ruguru hari imiyenzi, harimo ndetse n'urutoki, insina.

Umurima w'intoryi, umupapa wambaye igisarubeti cya oranje n'ingofero iriho umweru ndetse n'umutuku, ahagaze mu murima afashe intoryi arimo areba ko zeze cyangwa zitarera, hakurya hariyo ibindi bihingwa bitandukanye.

Akarima k'igikoni kari mu gipangu imbere, karimo dodo n'izindi mboga, hakurya y'igipangu hariyo andi mazu ndetse imbere gato harimo n'ibitoki.

Akarima k'igikoni kari mu rugo, karimo imboga zitandukanye, harimo karoti, harimo dodo, ndetse n'ibindi, imbere yaho gato hari agapasiparume, hakurya hari indi pasiparume nini cyane.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye harimo imyanya, ursede, pavuro, bitunguru ndetse n'umunyu. Ni ucuruza bwo isoko burimo ibintu bitandukanye ariko higanjemo imboga.

Umupapa wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umweru n'ikote rya oranje, ari mu murima w'intoryi arimo arareba intoryi zeze, iziteze n'izapfuye azikuramo, hakurya hari ibigori byinshi.

Umurima wa karoti, ndetse ku ruhande harimo ibijumba hakurya cyane hariho umurima w'ibigori. Ni karoti zikiri mu murima zitarakura, zigifite igihe cyo kuba zasarurwa.

Koperative y'abantu bihuje hamwe bakora akarima k'igikoni, ni abantu benshi batandukanye, harimo abamama, harimo abakecuru, harimo abapapa bakuru, harimo abahetse abana, bakoze akarima k'igikoni bateramo imboga n'imbuto.

Ibihaza biteretse ahantu hamwe kugatanda, bifite amabara atandukanye; hari ibifite amabara y'umweru, iby'icyatsi gusa, ibifitemo umuhondo.

Umusore wambaye ingofero, umupira w'uburu, ndetse n'ipantaro ya kaki isa ku kuboko, ari mu murima wa voka arareba uko voka zimeze, igiti cy'avoka kimuri imbere ndetse ku ruhande rundi hari n'ibindi biti byavoka, ku urundi ruhande hari umurima usanzwe.

Imineke iri kumwe yose iri hamwe ku gataro, ku rundi ruhande na rwo hariho indi mineke irahishije cyane yajeho utuntu tw'umukara, agataro kariho umufuka w'umweru, biteretse ahantu mu nzu.

Jaride nziza cyane irimo uturabyo twiza, irimo utundi duteyemo hagati twonyine kamwe ku kandi, kuruhande hari igipangu, urundi ruhande hariho inzira ikomeza, igipangu gifite ibara rya gereyi.

Umumama muto cyane uhetse umwana. Ateruye ibase irimo imbuto z'ibiti. Hepfo gatoya hari imirima ye cyane irimo imbuto z'ibiti harimo n'abana barimo kubyitaho. Hari umupapa ku ruhande urimo kugenda abasatira. Ndetse hakurya hari hakomeje kubakishwa ibiti hejuru.

Akajaride kari hanze y'igipangu karimo indabyo nyinshi cyane, harimo uturabyo tw'amabara atukura nditse harimo n'ibifite amabara, asa shokora, harimo ibisa icyatsi bisanzwe, ndetse harimo n'utuba twaraguye hasi cyane.

Umurima munini ndetse wa karoti karoti ntabwo zeze hose, hari agace kariho karoti ahandi nta kintu kihahinze, hanyuma ku ruhande hariho uturabo tw'umuhondo ndetse n'icyatsi, hari n'ibindi byatsi byimeza mu murima bisanzwe.

Ubuhinzi bw'imboga, imboga arizo inyanya, hano ziracyari mu murima, ntizirera, ziracyasa icyatsi, ntabwo zirakura neza ngo zibe zatekwa cyangwase bazicuruze.

Umurima w'amashu, ahantu mu Gishanga, ni amashu y'ibyo kurya dukunda, biribwa cyane byerera mu gishanga, ku byegera amazi.

Akajaride karimo indabo zimwe z'umuhondo ndetse n'icyatsi, ku ruhande hari izindi, imbere yaho gato hari ibiti bitoya bitarakura neza ngo bibe birebire, hirya yaho gatoya hari inzu.

Ubucuruzi bw'imboga ndetse n'imbuto, imboga zirimo karoti, imiteja, pavuro, amashaza, avoka, ibitunguru, ndetse n'ibindi, birambitse ku gishashi kirimo amabara y'umutuku, ahantu hasi.

Umusore uhagaze mu murima, yambaye inkweto zirabura, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'mweru, afite inseko ku maso ye, hirya hari ibigori mu murima ushinzemo ibiti.

Imyembe iri mu kantu kamwe iri hamwe. Harimo ihiye harimo n'idahiye. Harimo iyazanyeho amabara y'umutuku. Harimo isa icyatsi gusa.

Ubucuruzi bw'imyembe, amaronji ndetse n'indimu, ku ruhande gato hari n'izindi mboga n'imbuto, imbere hari umumama wambaye umupira w'umukara urimo uturongo, izo mboga n'imbuto biteretse ku kantu k'ubururu, ndetse ku kintu gikoresheshwe ibiti.

Igiti cy'amapera giteye mu muririma ahantu haruguru y'urugo, ndetse si n'icy'amapera gusa kirimo harimo n'ibindi biti birebire bisanzwe bitari iby'imbuto ndetse hasi hari ikigunda cyinshi, hepfo yaho hari amazu afite amabati y'umutuku.

Dodo zifungiye hamwe mu ibase, ndetse hirya hari amababi y'ibishishwa by'ibitunguru, ndetse n'umukoba ku kabaraza, imbere y'aho gato hari akantu kari muri mvirope.

Imbuto z'ibiti biri mu tuntu tw'umukara harimo n'ibitaka n'ifumbire bituma bikura neza, imbere hariyo umugabo wambaye ishati y'umweru ubirimo.

Pome zitukura, hirya hariyo wotameroni, pome ziteretse ku kantu k'agashashi k'umutuku karimo n'izindi, hakurya hariyo indi mifuka irimo imbuto, hariyo umumama uhicaye, hejuru hubatse ukuntu harimo amatara yaka.

Isoko ry'imbuto n'imboga hano hari wotameroni nyinshi zirunze hamwe zicuruzwa n'umuntu, ha kurya hari abandi ba mama barimo no gucuruza izindi mboga ndetse n'imbuto zitandukanye harimo amacunga ndetse n'imineke, imyembe ndetse n'ibindi.

Umurima w'amashu uyahagazemo yambaye igisurubeti cy'ubururu ndetse n'ingofero. Inyuma gato hari umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo y'umukara. Umusore afite ipopo arimo aruhira.

Agasozi kariho ubwatsi, gusa haruguru hariyo inzu, hiriyo ibiti, ikirere gisa neza cyane.

Ikirere kiza, amashyamba, ibiti, imirima, amazu, udusozi.

Umudugudu uriho amazu atandukanye, harimo imirima, harimo intoki, harimo ibiti.

Umurima munini cyane w'amaterasi, harimo akayira gatoya hagati, hanyuma ahandi ni ibihingwa, ndetse hakurya hari ibiti birebire, hari imisozi itangaje cyane, hari ahantu hadahinze, hari n'ahahinze.

Umurima munini cyane, harimo inzu hagati ntoya yubakijije amategura, ruguru yayo hariyo igiti kinini cyane, ndetse no hepfo hari n'ibindi biti bibiri, hepfo y'iyo nzu hariho imirima, inyuma ni imirima, hakurya n'imirima y'amaterasi.

Inzu y'amategura, ndetse hepfo yaho gato hari urutoki . Kurundi ruhande hariho ibiti birebire by'amashami manini. Hakurya yaho gato hari umurima munini cyane n'amaterasi y'indinganire , hakurya hari ibiti ugakomeza ukabona hakurya ste hacyari yo.

Ikiraro kirimo inka, inka ifite amabara atatu, harimo shokora, harimo umukara ndetse n'umweru, ifitemo hasi ibyatsi bisasiye ndetse harimo n'ibyatsi igomba kurya, ikiraro cyubakishijwe ibiti, hakurya y'ikiraro hari inzu isanzwe.

Inkoko ziri imbere y'urugo ndetse n'uyu musaza uziri imbere, wambaye ishati y'uturongo ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo gato hari inzu y'ibyondo iriho urwego rutoya.

Ihene ebyiri ziri imbere y'urugo, imwe yirabura iryamye mu ivu, ndetse n'indi iryamye mu bintu by'ibishyimbo, iy'umweru iraziritse, ndetse iyirabura ntabwo iziritse, ruguru gato hari akazu k'ibiti gatoya.

Ihene mu kiraro cyazo ziraziritse, bazishakiye ubwatsi zirimo zirarisha, ndetse haruguru gatoya hari ahandi hari ikiraro kinini. Imbere yaho hari inzu ba nyirazo babamo, zimwe zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, izindi zifite umukara na kaki.

Inzu y'ingurube, harimo ingurube zigera kuri enye ziryamye, zifite amatwi apfumuye, ariho utuntu tw'ubururu, imbere gato hari utuntu tw'ubuye tuhubakishije.

Intama ebyiri zihagaze hamwe mutwatsi, inkuru iri imbere ifite n'ibyoya byinshi iraziritse, indi iri inyuma gatoya, ku ruhande hari igihombo gisa n'igitwara amazi, kuruhande gato hari hagaragara nk'ahari inzu.

Ihene ziri mu bwatsi zirimo zitoragura utwatsi zirisha, hakurya hari ikigega cy'ubukara, imbere yaho gato hagiye hari inda z'icyatsi ku ruhande, hakurya y'icyo kigega hariyo inzu abantu babamo.

Ubworozi bw'amatungo, hano hari ingurube, ingurube eshatu ziri mu kiraro cyazo ahantu hafunganye cyane, imbere gato hari ahantu bazishyirira ibyo kurya zirira, zifite amabara y'umweru ndetse ntabwo ari na nkuru cyane.

Agahene gatoya cyane gafite amabara y'umukara ndetse n'umweru, karagenda ku rwego rurambitse hasi, hari n'izindi nkwi, ku ruhande hari ibindi byatsi byahumiye ndetse karanaziritse.

Inkoko nyinshi ziri hamwe zitoragura, zitoragura hirya ndetse no hino, ruguru gato hari inkingi z'ibiti, ndetse n'aha haracyari izindi nkoko.

Inka iri mu kiraro, mu kiraro harimo ibyatsi bisasiye hasi, harimo ibyatsi bayizaniye ngo irye, ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, ikiraro irimo cyubakishijwe ibiti, hakurya hari inzu.

Umwana w'umukobwa wicaye asutamye, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo arareba ingurube, aho iri mu kazu kayo ifungiranye.

Inkaf ifite amabara yirabura ndetse n'umweru. Mu kiraro imbere yaho gato hari abantu bahahagaze, inyuma y'abo bantu hari esikariye, kuruhande hari ikigega, inyuma yaho gato hariho inzu ifite amabara y'umweru.

Udukwavu twiza turi imbere y'aho tuba, dusa neza, turasa umweru. Inyuma hari akazu utwo dukwavu tubamo, ku ruhande hari akandi kazu kariho utugiriyaje cyane, gatuma zireba gusa zikanahumeka.

Ubuhinzi bw' urusenda, urusenda ruracyari mu murima harimo urwakuze rutukura, hakaba n'urundi rusa icyatsi hasi hari ibintu by'ibiti bihasasiye.

Ubuhinzi bw'inyanya, inyanya zitarakura, hariho izeze zisa umutuku, ariko hari nyinshi ziracyari mbisi, ntago zirasarurwa cyangwa ngo zishye zibe zarakoreshwa.

Bino ni ibigori, ni kwakundi bahungura ibigori byumye bakabishyira ahantu hamwe, bagategereza ko babigurisha cyangwase babikoresha ikindi kintu.

Igishanga hahinze karoti hirya hari akandi gasozi kariho ubutaka bwiraburarwa ndetse ruguru hariyo n'ibindi byatsi, hano hari igiti.

Umurima urimo ibihingwa bisa icyatsi bitoshye. Hagati hateyemo ikindi giti kirekire. Hakurya hari urutoki. Ku rundi ruhande hari inzu.

Umurima urimo ifumbire nyinshi, ibyatsi bitandukanye, harimo imbuto zitandukanye, hepfo gato hari ibidamu birimo amazi, birasa ubururu ikindi kirasa icyatsi.

Umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu ndetse na bote z'umweru ashoreye inka ze ebyiri, hakurya ye hari inzu ifite amabara y'umweru ndetse hahagaze n'abantu bagera kuri bane hanze, imbara yabo gato hari ibiti birebire cyane.

Inka baziritse ku giti ndetse yafashwe n'undi muntu imbere, uri inyuma yambaye igisubeti ndetse n'agapfukamunwa.

Abagabo babiri bafashe inka, barimo kuyipfumura, uwambaye umupira w'ubururu afashe ipensi arimo arayishyirira iherena mu gutwi, ndetse n'undi uyifashe umutwe kugira ngo itabacika. Inyuma gato hari n'izindi nka, ndetse n'igiti kinini cy'avoka, haruguru hari inzu...

Inka ziri ahantu hamwe zirimo kurisha, imbere yazo hari abagabo babiri; uwambaye igisurubeti ndetse n'ingofero yirabura, undi yambaye impantaro y'ikoboyi isa ubururu n'umupira w'umweru.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bitandukanye, ibirebire ndetse cyangwa ibigufi bifite amashabi manini cyane. Hejuru y'irishyamba hari ikiraro kinyuramo gihagazemo abantu batatu gifite imigozi, igiye igifashe hejuru no ku mpande zose kugira cyaba kitagwa.

Ikiraro gifite imigozi ikiziritse, imwe Ifite amabara y'ubururu, harimo abantu barimo kukigendaho, umwe yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'agapira akenyeye k'umweru, hakurya hari ibiti no hino hari ibiti.

Inyoni ifite amabara y'umutuku, ifite amaso h'umuhondo, ku mugongo h'ubururu ndetse n'ahandi h'umutuku ahagana inyuma. Ihagaze ku ishami mu giti kirimo amababi menshi ndetse n'andi mashami atandukanye.

Zimwe mu nyamaswa zibera mu ishyamba ziba mu biti, amashyamba, ni ho zikura ibyo kurya. Ni bwo buryo zibayeho no kuba mu ishyamba.

Umumama uri imbere cyane, uri kumwe n'imbwa, yambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi, imbere gato hari umumama wambaye ibitenge birimo umweru. Uyu mumama wambaye igitenge kirimo umuhondo, ari kumwe n'imbwa ye, imbere yabo hari ibyatsi, ruguru yaho hari igipangu gikoreshejwe utubingo.

Akanyoni keza k'amabara menshi arimo umutuku, umuhondo, ubururu, umukara, ndetse gafite n'umunwa usongosoye cyane, gahagaze ku turabyo tw'umuhondo, n'ibiti bifite amababi yi'cyatsi meza cyane.